Abana benshi cyane b'abanyeshuri, biga mu mashuri y'incuke, bakaba bicaye ku musambi mu buryo bw'uruziga. Mwarimu wabo akaba yicaye nawe, afite igitabo ari kugenda abasomera, nabo bamuteze amatwi.

Abana biga mu mashuri y'incuke bakaba bicaye ku masambi, aho bari kumwe n'abarimu babo babyigisha, aho bari kugenda babigisha indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda.

Abantu benshi bagiye batandukanye, biganjemo abana batoya biga mu mashuri y'incuke, bakaba bari kumwe n'abarimu babo, aho abarimu bari kubigisha, abanyeshuri na bo babateze amatwi bari gukurikira.

Umubyeyi uri kumwe n'abana mu ishuri biga mu mashuri y'incuke, bigaragara ko abo bana bakiri batoya, bari munsi y'imyaka itanu, akaba ari kugenda abaganiriza uko babasha kugira ubumenyi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bicaye ahantu ku mukeka aho bambaye impuzankano, hari umwarimu wabo w'umugore uri kugenda abaha amafunguro kugira ngo barye.

Abana bagiye batandukanye biga mu mashuri y'incuke. Bakaba bicaye ku misambi, aho bari kwicara barebana, bafite ibyo kurya bari kurya, bakaba bari kumwe na mwarimu wabo, uri kugenda abagaburira.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba bicaye ku musambi, aho bari kumwe n'umwarimu wabo, aho buri wese agiye afite agakombe karimo igikoma ari kugenda yinywera.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, bakaba bateraniye hamwe, bari kumwe n'umwarimu wabo, aho ari kugenda abigisha gukoma mu mashyi maze na bo bafite igikoma bakabanza kukinywa.

Umwarimu w'umugore ukenyeye ibitenge, aho imbere ye ari kwigisha abana b'inshuke bicaye ku misambi, ari kubereka uko inyajwi bagenda bazandika ku kibaho.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, biga mu mashuri y'incuke. Bakaba bafite udusanduku turi mu mabara agiye atandukanye, bakaba bari kugenda, batwifashisha biga amasomo yabo.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri y'incuke, bakaba batonze hamwe bahagaze mu buryo bw'uruziga, aho hari umwarimu wabo uri kubazenguruka hagati agenda abigisha akaririmbo na bo basubiramo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakaba bahagaze mu buryo bw'uruziga, hagati yabo hahagaze umugore w'umwarimu, ari ukubigisha uburyo ki bashobora kwiga gusoma.

Ibasi iteretse ahantu iri mu mabara y'umukara, ikaba irimo amazi meza cyane abanyeshuri bakaraba igihe baba bageze ku ishuri.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako y'ishuri, ikaba ikingishijwe urugi rw'icyatsi, hari abana biga mu mashuri abanza, bari guhengereza mo imbere.

Isomero ririmo ibitabo bigiye bitandukanye, aho ibi bitabo ari ingenzi cyane, ku buryo byifashishwa n'abanyeshuri bagiye batandukanye, biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba yubakishije uburyo bwa kijyambere kandi bugezweho.

Igikuta cy'inyubako y'ishuri, kikaba kimanitseho igipapuro cy'umutuku, cyanditseho ingengabihe abanyeshuri bifashisha bari kwiga n'amasaha ayo masomo atangiriraho.

Abana biga mu mashuri abanza bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, bari kugenda barebamo kugira ngo babashe gukurikira inyigisho mwarimu wabo aba yabahaye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'amashuri, aho hari umunyeshuri uhagaze mu muhanda, bigaragara ko atari yagera ku ishuri, akaba ategereje ko imodoka yambuka.

Ubwiherero bwubatse neza aho bufite inzugi zigiye zikinguye, bukaba ari ubwiherero bw'abakobwa, aho buba buri ku kigo cy'amashuri cyose mu Rwanda kuko Leta yabishyizeho nk'itegeko.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'umucaca, aho uyu mucaca ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese uwuhinze akawitaho, ubasha kumera neza cyane, wajya ugera aho hantu ugasanga harasukuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri, aho itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, zijyanye n'uburezi, kugira ngo abanyeshuri babe batsinda.

Inyubako nziza cyane, aho mo imbere harimo ameza ateretseho udukombe tugiye dutandukanye ndetse n'ibiyiko, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke igihe cyose baba bari kurya.

Umupira wo mu bwoko bwa karere ukaba urambitse ahantu bigaragara ko witeguye gukinwa n'abana batoya biga mu mashuri abanza, ubu ngubu bari mu ishuri ariko nibasohoka baraza kuwukina.

Isaha iri mu mabara y'umweru yanditseho imibare iri mu mabara y'umukara, ikaba ifite inshinge z'ubururu n'umuhondo, zifashishwa mu kubara kugira ngo abantu bamenye aho amasaha ageze.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakaba bahagaze imbere y'inyubako bigaragara ko bashaka kwinjira, bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara asa n'ijuru ndetse n'amakabutura ya kake.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bateraniye hamwe bari gukaraba intoki, abandi bari kubaka bazitira urubuto bateye kugira ngo hatazagira ikirwangiriza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'umutuku, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikingishije inzugi z'umutuku za metarike, bikaba bigaragara ko ari inyubako y'ishuri.

Abana benshi cyane bateraniye hamwe, aho biga mu mashuri y'incuke bakaba bari kwiga gukoresha mudasobwa ndetse bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo ari kubereka uko ikoreshwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'amashuri, aho yubakishije udutafari duhiye ndetse hagiye hacamo n'imyenge umwuka winjiriramo.

Umwarimu uri mu ishuri uri kumwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, akaba arimo kubigisha gukoresha mudasobwa, aho abo bana na bo bari kugenda babikurikiza, bareba uko ari kubigenza.

Ni byiza ko n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, basigaye bigishwa ibintu by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kurikoresha neza, maze bazige nabo batsinde nk'abandi bana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo isomo ritambuke neza.

Ibitabo bigiye bitandukanye bishushanyijeho abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bikaba biri mu mabara y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse bikaba byigirwamo n'abanyeshuri.

Umunyeshuri uri ku kibaho ari gusubiza n'abandi bari kumureba, inyuma ye hakaba hari intebe irimo amasahani n'ibikombe abanyeshuri bariramo.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, aho muri iyo nyubako harimo ikibaho cy'umukara ndetse hakaba harimo udutafari duhiye twubakishije iyo nyubako, aho ari ishuri ry'amashuri abanza ryigiramo.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho ifite ikigega cyiza cyane gisa umukara gitangira amazi, ndetse hakaba hari n'imbuga nziza cyane irimo ubusitani, ariko ubwo busitani bukaba butarafata.

Abana biga mu mashuri y'inshuke benshi cyane bateraniye hamwe, bambaye impuzankano z'ishuri zigiye zitandukanye, harimo abambaye iz'ubururu n'abambaye umukara na bleu ciel bakaba bari gusoma ibitabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke benshi cyane, aho bateraniye hamwe bakaba bari ku murongo, umwarimu wabo ari kubatoza ukuntu bagomba kujya bahagarara.

Akabati karimo ibitabo bigiye bitandukanye, bikaba bigaragaza ko aha ngaha ari mu isomero, Leta yashyizeho gahunda y'uko buri kigo cyose kigomba kugira isomero aho abanyeshuri bazajya bajya gushakira amakuru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba iri kugendwamo n'abana b'abanyeshuri, bagiye ku ishuri bambaye impuzankano za kaki ndetse n'udushati tw'ubururu.

Ibitabo birambitse ahantu byo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, bikaba birambitse ku ntebe ahantu mu ishuri, ni byiza cyane ko buri kigo kiba gifite ibi bitabo nk'imfashanyigisho abanyeshuri bifashisha.

Inyubako nziza cyane z'amashuri, zikaba zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifite imiryango igiye itandukanye abanyeshuri binjiriramo, ndetse hariho n'agasima ku buryo umuntu ufite ubumuga na we yabasha kwinjiramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ubusitani buteyemo indabyo zigiye zitandukanye. Ikaba yubakishije amatafari ahiye, ndetse ifite imiryango n'amadirishya bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zisakaje amabati y'ubururu, zikaba zifite kandi ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire bigiye bitandukanye bizana umuyaga n'amahumbezi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, kikaba cyubatse impande y'ikigo cy'amashuri cya ES Butare, giherereye mu karere ka huye Umurenge wa Ngoma.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, aho ibi biti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, hirya hakaba hari inyubako nziza cyane z'amashuri.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bafashe ibikoresho bizwi nka vuvuzera mu ntoki, bari kugenda babivugiramo, bigaragara ko, bagiye gufana umupira w'amaguru.

Umugore uri mu ishuri ari kwigisha, akaba afite ibitabo bigiye bitandukanye yifashisha ari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kunguka ubumenyi bugiye butandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri, aho ifite urugo ruzitije ibyuma ndetse n'amatafari ahiye, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ishuri, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite n'imiryango isa ubururu, hakaba hari umunyeshuri umwe uri gusohoka mu muryango.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari igipangu cyegereye umuryango usize irange ry'icyatsi, hakaba haciyeho umuhanda utarimo kaburimbo utagendwamo n'ikinyabiziga na kimwe.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu nyubako y'ishuri, bakaba bambaye imyambaro y'amashati y'imyeru ndetse hasi bambaye kaki, hakaba hari umwarimu ubahagaze imbere ari kubaganiriza.

Abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imipira iri mu mabara y'ubururu, bicaye bateraniye hamwe, aho hari umuntu ubahagaze imbere wambaye akajire, uri kubagezaho ijambo na bo bamuteze yombi.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe aho bose bamanitse ibiganza, hari umusore uhagaze imbere w'umunyeshuri ari kugenda abasuhuza na bo bamwikiriza bamwishimiye cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri cya Cyarwa giherereye mu murenge wa Tumba Akarere ka Huye, Intara y'Amajyepfo.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu mabara y'ubururu, aho cyerekana ko ari inyubako y'ikigo cy'amashuri cya Ruhango kigisha imyuga n'ubumenyi ngiro.

Inyubako nziza cyane y'isomero aho haba harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, abantu bifashisha bari gusoma kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo neza cyane.

Ikibaho cyanditseho imibare igiye itandukanye kikaba gisa icyatsi, hakaba hari n'umwarimu wambaye ikositimu ari ku meza, aho ari kugenda afata ibitabo arifashisha yigisha abanyeshuri.

Abana biga mu mashuri y'inshuke n'abiga mu mashuri abanza, bakunze kuba bafite udutibe twiza bicaraho bari kwiga kugira ngo babashe gukurikira neza mwarimu wabo maze bazatsinde.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yahuriyemo abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi bakaba bicaye kuri izo nyubako bigaragara ko bakurikiye amasomo bagiye kugezwaho na mwarimu wabo.

Abana bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bahagaze imbere y'Inzu Ndangamurage y'u Rwanda bigaragara ko bagiye kuyisura.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendarwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kunyura mu tuyira tw'abanyamaguru, bambaye impozankano z'ishuri, bageze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako y'amashuri iteyeho ikibaho cy'umukara, kikaba cyanditseho amanota bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kuririmba cyangwa isomo rijyanye na muzika.

Imodoka zo mu bwoko bwa kwasiteri zitwara abanyeshuri zibajyanye ku ishuri, zikaba ziri mu mabara y'umuhondo ya ziparitse ahantu hamwe, inyuma yazo hari ishyamba.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri cya Notre dame de la providence Karubanda giherereye mu karere ka Huye cyigisha ibijyanye n'uburezi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba babarekuye bagiye mu kiruhuko, bose bari gutaha bafite ibikoresho bigiye batandukanye bagiye kujyana mu rugo birimo matela ndetse n'ibikapu.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe mu isoko, aho bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu masomo yabo, bikaba bigaragara ko batashye bagiye gufata imodoka ziberekeza iwabo muri gare.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri, aho irimo ikibaho cy'umukara ndetse n'igikuta kidateyeho irangi, ikaba yigirwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe. Aho bicaye, imbere yabo hari abarimu nabo bicaye, bigaragara ko bari mu nama. Hari n'umugabo, w'umwarimu uri kubagezaho inama.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bicaye ahantu mu rusengero, bakurikiye abantu bari kubayobora.

Inyubako nziza cyane iherereye mu karere ka Ruhango, ikaba ari inyubako yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro, iherereye mu karere ka Ruhango.

Abakinnyi b'umukino w'amaboko uzwi nka vore boro bari mu kibuga bari gukina, aho umwe yasimbutse hejuru mu kirere agiye gutera ikiro, abandi na bo bakaba biteguye kucyarura.

Inyubako nziza cyane zo ku kigo cy'amashuri cya Gatagara, gikikijwe n'ubusitani bwiza buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho hari imbuga ijyayo ishashemo amapave kandi meza.

Ikibaho cyanditseho isomo ry'imibare, kikaba kiri mu mabara y'umukara, hakaba hari n'intebe zigiye zitandukanye abanyeshuri biga muri kaminuza bicaraho bakurikiye mwarimu wabo.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kugenda bakora ibizami, aho mwarimu wabo ari kugenda aberekera ibibazo bigiye bikomeye, bagomba gutaruka bakabikora nyuma.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahagaze imbere y'umuryango winjira bikaba bigaragaza ko bari kuhaganirira, birebera urujya n'uruza rw'abagenzi baba bari gutambuka.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho izo nyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zibaditseho icyapa cyanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, handitseho paruwasi ya Busengo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho hari ibendera rimanitse mu busitani buri ahongaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye, aho bateraniye hamwe bari gukora ikizame. Hakaba hari umwarimu ubahagarariye wambaye amadarubindi, uri kugenda abahereza impapuro zo kwifashisha.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zikaba ari inyubako z'amashuri yisumbuye, aho ari gutambukamo abanyeshuri b'ingeri zigiye zitandukanye bajya mu masomo.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kugenda bahetse matela, bigaragara ko bagiye kwiga ndetse banezerewe cyane.

Umugore uri kugenda mu gahanda k'abanyamaguru, akaba ari umugore w'umubikira, aho yambaye ijipo y'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, akaba ahetse agakapu ari gutaha.

Inyubako nziza cyane y'amashuri yubatswe mu buryo bugezweho, aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba ishushanyijeho ikarita y'Afurika, ku gikuta iri mu mabara agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarange y'umweru ku bikuta. Yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara ko ari ikigo cy'amashuri cyitiriwe Mutagatifu Bernadette.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo ameza agiye atandukanye ariho ibikoresho byifashishwa mu burezi, ikaba ari inyubako y'ishuri muri Kaminuza y'u Rwanda.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako isize amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba iherereye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite purafo iteye irangi ry'umweru ndetse ikaba ikikijwe n'ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti byiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa kandi ifite n'ubusitani bwiza.

Inyubako nziza cyane zubakishije amabati, zubakishije amatafari ahiye, zikaba zirimo ikigega kiba kirimo amazi abantu bashaka kunywa baza bagafata bakanywa kandi asa neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza zigiye zitandukanye.

Ishyamba riteyemo icyapa kiri mu mabara y'umweru n'bururu, kirimo ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, kikaba giherereye ahantu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, hariho icyapa kiri mu mabara y'umweru n'ubururu, cyerekana ko hano ari mu mashuri ya kaminuza.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, kikaba kimanitse ahantu mu kirere kiriho ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda, kikaba kiriho akamenyetso kerekana ko ubwiherero buri mu kuboko kw'iburyo.

Muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye haba hari utuzu twinshi tw'amayobera, aho hariho na kamwe kaba kariho anteni ibasha kuzana impuzanzira cyangwa ikazana imiyoboro y'itumanaho aho hantu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ifite urugi rw'ubururu, ikaba ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubifite bibasha kumuteza imbere maze akaba umuhungujumba.

Mudasobwa irambitse ahantu ku meza, ikaba isa umukara. Ikaba iri kwaka mu mabara y'umweru, handitsemo amagambo mu rurimi rw'Icyongereza ari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite ubusitani bwiza buzikikije, burimo indabyo z'ubwoko bwose, ndetse n'akayira kaziganaho gashashemo amapave.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, irimo intebe zigiye zitandukanye zifashishwa n'abanyeshuri igihe baba bari gukurikirana amasomo yabo kugira ngo babashe gutsinda amasomo neza cyane.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ko buri kigo cy'amashuri kigomba kuba gifite isomero, aho abanyeshuri bajya bagatira ibitabo maze bakajya babisoma kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugeretse bw'amagorofa, aho hari inzira zishashemo amapave, zikaba ari inyubako z'amacumbi y'abakobwa, ziherereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri bigira kugira ngo babashe kuba batsinda amasomo.

Inyubako nziza cyane, isakaje amabati y'ubururu, ikaba ari inyubako ya sitade, yo muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye. Ikaba ifite akayira kajyayo, gashashemo amapave.

Resitora y'umucyo itanga serivisi zo kugaburira abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda. Abanyeshuri bakaba bari kumanuka bajyayo aho bagiye gushaka ibyo kurya mu masaha ya sa sita.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko abiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bakaba bari kwigira muri mudasobwa zabo, aho bari kwiga uburyo ki indwara runaka zakwirindwa.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho ziteye amarangi y'umweru ku nkingi ndetse zikaba zifite n'amarangi y'umukara, zikaba ari inyubako zo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ahazwi nko mu isomero.

Umwarimu utagaragara neza ariko wambaye ikositimu, ugaragara uruhande rw'ibumoso, akaba ari imbere y'icyapa cyanditseho IPRC Kitabi, kwirinda no kwamagana kovide cumi n'icyenda.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakaje amabati y'umutuku, zikaba ziteye amarangi y'umweru ku bikuta, hakaba hari imbuga ishashemo amapave, hari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire.

Umuntu wambaye igisarubeti cyanditseho RP, IPRC tumba, bigaragara ko yize muri kaminuza y'ubumenyi ngiro ya IPRC y'itumba. Akaba ari gukanika ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye.

Ikibuga gikinirwamo imikino ye itandukanye y'imaboko cyo muri Kaminuza y'u Rwanda, kikaba kiri ahantu heza cyane hakinirwa iyi mikino myinshi cyane itandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo intebe nziza cyane zirambitseho mudasobwa zitagendanwa, zicaweho n'abantu bakaba bari kwiga uko bazikoresha.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe mu nzu y'imyidagaduro ya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bamwe bicaye abandi bahagaze bari kureba ababyinnyi bari kubyina imbere.

Akabati kariho ibikapu by'amoko agiye atandukanye biri mu mabara y'umukara, aho ibi bikapu ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese ubifite aba ari umukungu.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize amarangi y'umweru hejuru ndetse n'amarangi y'umukara ku nzugi, ikaba ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Icyapa ndangamerekezo cyerekana ahantu kiri mu mabara y'ubururu, kiriho akamenyetso k'umweru kerekana ko ahantu hari ibibuga bakiniraho ari mu kuboko ku ibumoso.

Inyubako itangirwamo amasomo agiye atandukanye ku banyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, bakaba bafite ameza bicaraho ndetse n'ubutebe bifashisha abari kwiga uko basuzuma indwara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye ndetse ikaba iteye irangi ry'umweru ku bikuta, bigaragara ko ari inyubako yo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho bateraniye hamwe bari mu nama higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, aho buri wese imbere ye ahafite mudasobwa ari kugenda yifashisha.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'umucaca, ndetse hakaba hari n'utuyira dushashemo amapave, tugenda tuziganaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, ikaba ikingishije inzugi zisa ibara ry'ivu, hamanitseho icyapa kigaragaza ko bitemewe kuhanywera itabi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Ikaba yubakishije ututafari duhiye ndetse mu imbere hakaba harikwakamo amatara, hahagazemo n'umunyeshuri umwe.

Abantu bari mu ishuri, aho bari kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, hakaba hari umugabo w'umuzungu ufashe mudasobwa, ari kugenda abereka inzira baranyuramo kugira ngo babashe kumenya ibyo ari kubigisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ari inyubako y'ishuri, aho isakaje amategura, ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibyapa.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanya aho bicaye bari mu nama, higanjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, buri wese imbere ye hakaba hateretse amazi ndetse afite n'igitabo ari gusoma.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, iriho akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ako kabati gakunze kuba kari ahantu mu isomero.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo imiti myinshi igiye itandukanye, aho iyo miti yifashishwa mu buvuzi, ikavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi, akaba ahagaze imbere ku ruvugiro rwanditseho RP, bivuga ikigo cy'igihugu cyigisha amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite inzugi zifite amabara agiye atandukanye, aho ari inyubako zo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Ubusitani bwiza cyane bwanitsemo imyenda, aho iyo myenda ari iy'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, bakaba bamaze kuyimesa, none bayanitse hano kugira ngo yume vuba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite amagorofa agera muri arindwi, ikaba ifite amarido meza cyane ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza.

Igitanda cyanditseho imashini ya mudasobwa aho iyi mudasobwa ari ingirakamaro cyane, ku buryo umunyeshuri wa kaminuza uyifite imufasha kwiga amasomo ye neza, maze akaba yatsinda.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bambaye amataburiya y'umweru, bikaba bigaragara ko ari abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, bakaba biga ibijyanye n'ubuvuzi. Bakaba bari mu nyubako, bakurikiye amasomo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye muri sale y'imyidagaduro bicaye ku ntebe ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, imbere yabo hakaba hari aritari itatse mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane y'ifu aho yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa, aho harimo udutebe abanyeshuri bicaraho bari kwiga ndetse n'utwo mwarimu yicaraho ari kubigisha.

Abantu bagiye batandukanye, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho baba bazi gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakaba bihuriza hamwe bakagenda babikanika.

Inyubako nziza cyane irimo intebe z'umukara zigiye zitandukanye, aho izi ntebe ari ingenzi, ku buryo umuntu wese uzicayeho zibasha kuba zamukaraga akareba mu ruhande ashaka.

Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, haba hariyo ibyapa bigiye bitandukanye, byereka umuntu aho agiye, hakaba hari icyapa kiri kwekerekana ahantu hari resitora, n'ahantu hari hositeli z'abanyeshuri.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho isakaje amabati asanzwe. Ikaba ifite imbuga nziza, ishashemo amapave. Ikaba ari inyubako ya resitora. Iherereye muri kaminuza y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaboko, aho bambaye imyambaro yabugenewe iri mu mabara y'icyatsi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izo nyubako ari nziza cyane zikaba ari inyubako z'amacumbi y'abakobwa zo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahazwi nk'i Nyarutarama.